Aragaragara umuganga bisa n'aho ari gutera umwana urushinge, ikigaragara cyo ashobora kuba ari kumupima malariya cyangwa se ubundi burwayi bugiye butandukanye, kugira ngo arebe uko yamuvura.